Amahema yera afite amabara yo mu ibendera ry'igihugu ariyo icyatsi, umuhondo, n'ubururu ku mpande muri ayo mahema hicaye abantu benshi bagiye batandukanya abagabo, abagore, bigaragara ko bitabiriye inama cyangwa se amahugurwa runaka.

Aho banywera inzoga hazwi nka bale, imbere kuri kontwari hari ubwoko bwinshi bw'inzoga zigiye zitandukanye, mu gihe inyuma ya kontwari hateye intebe eshatu, inyuma y'izo ntebe eshatu hari izindi ebyiri, imbere yazo hari akameza hejuru y'aho kandi hari isakazamashusho, mu gihe ku muryango wo hirya winjira mu kindi cyumba hateretse amakaziye nayo y'izindi nzoga zitandukanye.

Iguriro rito ririmo ibikoresho by'ikoranabuhanga, imbere hari icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo hejuru y'umutuku n'andi hasi y'umukara, agira ati: dukanika fone z'ubwoko bwose, dufite ibirahuri byazo bya orijinari, dufite posheti za phone na batiri ndetse n'ibindi.

Ihahiro rito rizwi nka butike iryo hahiro rikaba rikungahaye cyane cyane ku biribwa, muri iryo hahiro hahagaze umumama wambaye igitenge kiri mu mabara atukura, umuhondo ndetse n'ubururu, akaba ari kubara amafaranga.

Ihahiro rito rizwi nka butike, muri iryo hahiro harimo ibicuruzwa bitandukanye cyane cyane ibiribwa ndetse n'ibijyanye n'isuku, muri iryo guriro hahagaze umugabo wambaye agapira k'icyatsi cyerururtse, afite ikaramu mu ntoki, hari ibyo ari kwandika mu bitabo bye.

Ihahiro rito, rizwi nka butike, higanjemo ibyo kurya ndetse n'ibikoresho by'isuku, kuri iryohiro, hahagazemo umugabo, wambaye agapira k'umuhondo, karimo amabara y'umukara, ari guseka cyane, bigaragare ko hari undi muntu bari kuvugana uri hanze.

Icyumba cya hoteli gikunze kwifashishwa cyane cyane n'abakerarugendo ndetse n'abandi bashoramari baba bari kuza mu Gihugu mu kazi kabo, muri icyo cyumba harimo igitanda gishashe neza cyane gifite amatara meza ku ruhande ndetse hamanitsemo n'ifoto ku ruhande.

Icyumba cya hoteli gikunda kwifashishwa cyane cyane n'abakerarugendo ndetse n'abandi bacuruzi baba baca mu Gihugu bagenda bari mu kazi kabo. Muri icyo cyumba harimo igitanda gishashe neza cyane kiriho amashuka ndetse n'imisego. Hepfo y'igitanda gato, hari intebe ndetse n'akameza gato. Ku buryo umuntu ashobora kuza kugusura muri icyo cyumba, ukaba wabona aho umwicaza mukaba mwahaganirira.

Ahafatirwa amafunguro hazwi nka resitora, hari imyanya ubona abantu bicaramo iyo baje gufata amafunguro, hirya turabona abamama babiri bambaye amakanzu y'imyeru, hirya cyane niho bashobora kuba bakira serivise abaje bagana iyi resitora.

Umuhanda nyabagendwa, haparitse ama moto menshi ugaragara cyane, ni umumotari ugiye gutwara umugenzi, umugenzi yambaye imyenda ipantaro n'ikote rya kaki, mugihe bambaye we n'umumotari bambaye amakasike y'ubururu bwerurutse.